Abagabo batatu ubona ko bateraniye ahantu habereye inama. Yiga uko abantu bagomba kubana neza, ubona ko ari byiza, kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Ni byiza ko dukurikiza ingamba, ziva ahantu nk'aha, zishyira umuturage ku isonga kugira ngo arusheho kwiteza imbere, ndetse no guteza imbere Igihugu cye muri rusange.

Ahantu hateraniye abantu benshi, ubona bakurikiye imbere umuntu urimo abagezaho inama. Ubona ko ari ahantu hateraniye abantu benshi bari mu nama. Ni byiza ko tugana inama, twegera ahantu habera inama, kugira ngo turusheho kumenya amakuru y'ibigezweho no kugira ngo turusheho kumenya ingamba zifatirwa mu nama, twita ku buzima bwacu. Kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Ni byiza twubaha ubuzima bwacu binyuze mu nama tugirwa, turushaho kugira iterambere rirambye no guteza imbere igihugu cyacu.

Ahantu hateraniye abantu benshi, ubona bafite amazi imbere yabo ubona ko ari abagabo n'abagore, cyane bishimye, baseka, ubona ko bari mu gikorwa cyo kugira ngo barusheho kwitabwaho, ndetse no kugirwa inama ku bijyanye n'ubuzima, baniganza cyane cyane ku muco gakondo, kugira ngo barusheho kwibuka amateka, ndetse n'ibyaranze Igihugu cyabo. Ni byiza kandi ko tubungabunga umuco wacu, kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza.

Abantu batandukanye, ubona ko ari ababyinnyi. Babyina imbyino za gakondo. Ubona ko ari abantu basa neza, ukurikije umuco wacu. Ni byiza ko tubungabunga umuco wacu ntitwibagirwe umuco, ntiducike ku muco kugira ngo turusheho, gukomeza kwigira ku basekuru no ku bisekuruza. Turushaho guteza imbere Igihugu cyacu nk'uko twabirazwe n'abasekuruza. Ni byiza ko dukurikiza imico yabo kandi tukita ku muco ntitwibagirwe umuco.

Ababyinnyi beza ubona bambaye neza imikenyero hari n'umukaraza hejuru ubona hari n'abandi bari gutegura ahantu hejuru heza ho kwicara ubona ko ari ahantu hagiye kubera ibikorwa bijyanye n'umuco ubona ko ari kubyina imbyino za kera za gakondo zibutse umuco ndetse no kugira ngo turushe kubungabunga umuco wacu, ni byiza ku tubungabunga umuco wacu kandi atari mu magomero gusa no mu bikorwa tubungabunge umuco wacu ndetse n'ibidukikije kandi twite no ku bikorwa remezo.

Igikorwa remezo cya leta ubona ko ari amatara, amwe yo ku muhanda. Ubona ko ari itara ryaka rikamurika rigatanga urumuri, ubona ko ari igikorwa remezo cya leta cyashyizweho kugira ngo kimurikire abaturage ku manywa ndetse na nijoro bakomeze bakore ingendo zabo ku mihanda neza kandi ntacyo bikanga barusheho gukora ubuhahirane neza ku manywa n'ijoro kugira ngo barushesheho guteza imbere igihugu cyabo ndetse nabo muri rusange biteza imbere.

Ibikorwa remezo bya Leta ubonako ari inyubako nziza, ahantu borera ibintu bitandukanye hari ikigega bororera inkoko, bashobora no gukorera ibindi bikorwa remezo bya Leta kugira ngo barusheho guteza imbere abaturage, biteza imbere binyuze muri ibi bikorwa remezo. Ni byiza ko tubungabunga ibikorwaremezo Leta iba yarubatse kuko bidufasha kuduha serivisi zitandukanye ndetse bikanadufasha kwiteza imbere.

Ahantu ubona hateraniye abantu benshi ubona ko ari inyubako nziza ya leta hatangirwa serivisi zijyanye n'ibintu bijyandanye n'ubuzima. Ni byiza ko tugana ahantu nk'aha kugira ngo duhabwe serivisi zitandukanye, kuko leta iba yarubatse ibikorwa nk'ibi kugira ngo ifashe abaturage mu iterambere ryabo ndetse no guteza imbere igihugu cyabo muri rusange. Tugane ahantu nk'aha turusheho kwiteza imbere no kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu ubona ari ibikorwa remezo bya Leta nk'imihanda hari n'amatara ku muhanda ubonako hari n'andi mazu ku ruhande ubona aka ari ahantu hasa neza hitabwaho na Leta nk'uko bigaragara, ni byiza kubungabunga ibikorwa remezo nk'ibi Leta iba yarakoreye abaturage kugira ngo turusheho kubibungabunga no kugira ubuzima bwiza no kubifata neza kugira turusheho kubyitaho nkuko tuba twarabishyiriweho kugira ngo tubikoreshe nk'imihanda myiza nk'iyi idufasha ubuhahira.

Ahantu hateraniye abantu benshi ubona barimo barimbura ibishyitsi, ubona ko bashaka kubaka ibikorwa remezo bya leta kugira ngo barusheho kwiteza imbere. Banakuramo inkwizi zo gucana. Ni byiza ko dukora imiganda tukajya mu miganda tukarushaho kwiteza imbere kugira ngo turusheho kubungabunga no guteza imbere igihugu cyacu mu buryo bwihuse kandi vuba.

Ahantu heza ubona hari umuriro mwinshi ubona ko ari ahantu bari bari kwibuka ariko ku urwibutso rwa jenoside rwa Nyagatare, ruherereye muri rompuwe. Ni byiza ko tubungabunga ibikorwa remezo nk'ibi, cyane cyane ahantu nk'aha, haba hari aho bibuka abantu bazize jenoside kandi ubona ko bari bacanye kugirango barusheho kubibuka. Twibuke twiyubaka.

Abantu benshi ubona bateraniye hamwe bari mu inama ubona yiga ku ngamba zijyanye n'imibereho myiza y'abaturage ndetse n'uburyo bahabwa uburenganzira bwabo kugira ngo barusheho kwita ku miryango yabo no gutuma bagira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Ni byiza ko dukurikiza ingamba tukubahiriza n' uburenganzira bwacu kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

umugabo ufite mikoro ubona ko ari ahantu hari abantu benshi yambaye umupira wanditseho kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu, ubona ko nkuko tubizi mu minsi iri imbere tugiye kwibuka guhera ku itariki tugiye kwibuka ku nshuro mirongo itatu na kabiri. Ni byiza ko dukurikiza amabwiriza yabugenewe twibuka kugira ngo turusheho kwiteza imbere twibuke twiyubaka.

Ahantu ubona hari ibikorwa remezo ubona ko hari icyapa cyerekana ko hari amakorosi, hari na rompuwe. Ni ahantutu ubona hari umukobwa uri kugenda mu muhanda, ubona ko ari ibikorwa remezo bya leta baba barashyiriyeho abaturage kugira ngo barusheho kuba ahantu heza no kunyura mu mihanda myiza, yabafasha gukora ubuhahirane ndetse bikabafasha no kwiteza imbere. Tubungabunga ibikorwa remezo nk'ibi, kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi binyuze mu gukoresha iyo mihanda neza no gukoresha ibyo bikorwa remezo neza.

Ahantu heza ubona ko ari mu muhanda hari ibikorwa remezo bya Leta baba barubakiye abaturage kugira ngo barusheho kwiteza imbere ndetse no gutuma barushaho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze bagenda ahantu heza, hari icyapa ubona ko kiri kwerekana imbere ko hari ikoni. Ni byiza ko tubungabunga ibidukikije nk'ibi ndetse n'ibikorwaremezo nk'ibi kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze tunabikoresha biduteza imbere mu iterambere ryacu.

Icyapa ubona ko cyerekana uko umuhanda abantu ukwiye kwitwara, ubona ko ari ahantu hari ibikorwa remezo bitandukanye hari n'umuhanda mwiza wa kaburimbo imipande yaho, ubona ko hari n'inyubako ziri hafi y'umuhanda. Ni byiza ko tubungabunga ibyo bikorwa remezo kugirango ngo turusheho kugira ubuzima bwiza twifashishije ibyo bikorwa remezo twashyiriweho na leta, tunafasha leta kubibungabunga kugira ngo dusigasire ubukungu ndetse n'ibyagezweho.

Ahantu hateraniye nama ubona hari abashinzwe umutekano n'umusirikare ndetse ubona ko bari ku ngamba zijyanye n'umutekano kugira ngo barusheho kubungabunga abantu ndetse n'ibyabo, ni byiza ko dufasha leta dutangira amakuru ku gihe kugira ngo turusheho gukaza umutekano no kugira kugirango ngo turushe guteza imbere igihugu cyacu binyuze mu mutekano.

Abagabo batatu ubona bafite amasuka n'ibitiyo, bari gukora umuserege utwara amazi, kugira ngo barusheho kwirinda isuri, ndetse n'ibindi byose byaterwa n'ibiza nk'amazi. Bayobora amazi mu muserege umwe, kugira ngo barusheho kwirinda isuri. Ni byiza ko dukora imiganda ndetse dukora n'imiserege kugira ngo turusheho kuyiha umuyoboro w'aho ajya, atarushaho gutwara abantu ndetse no guteza ibiza.

Abakinnyi mu kibuga; ubona bari ku kibuga cyiza cya Nyagatare muri sitade ubona ko hari abagabo babiri bambaye imyenda y'ubururu bari mu ikipe imwe, n'undi wambaye amajezi y'umuhodo ubona ko bari gukina. Ni ibyiza ko dukora siporo kugira ngo turusheho kugabanya umubyibuho ukabije, no kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Kuko tubizi siporo ni imwe mu ngamba nziza zifasha abantu kugira ubuzima bwiza, dukore siporo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu heza uwo nari mu kibuga hakorerwa siporo kuri sitade nziza ya Igorogota iherereye Nyagatare ni byiza ko tujyaga nahanwa tugakora siporo ngo turusheho kugabanya umubyibuho ukabije ndetse tuyidagadure twishime tunasohore imyandamubiri turusheho kugira ubuzima bwiza kandibyunze'bwo tubizi siporo ni umwe mu muti usohora imyandamubiri ndetse ufasha n'abantu gukira indwara zitandukanye muri ibicurane ndetse n'ibindi.

Ahantu heza ubona ko hasa nk'aho ari muri sitade Gorogota, ahantu abafana bicara bafana ikipe, ubona ko hateranira abantu benshi ndetse ubona ko bari gufana bishimye bareba umupira kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza. Ni byiza ko dukora siporo tugana ahantu nk'aha tunafana kugira ngo turusheho kuryoherwa kandi twishime.

Umuhanda wa kaburimbo ubona ko hirya yaho hari igipangu cyiza, ubona ko cyubakishijwe amatafari kinasakaye. Ubona ko ari umuhanda mwiza abantu banyuramo, bifashisha mu buhahirane ndetse no mu ngendo zitandukanye bajya gusaba amaserivisi atandukanye. Ni byiza ko tubungabunga ibikorwa remezo nk'ibi biba byarakozwe na leta, kugira ngo turusheho gukomeza gukora ubuhahirane neza ndetse no gukora ingendo.

Umugabo uri ku muhanda ubona ko hari umuhanda mwiza wa kaburimbo, wakozwe kugira ngo abantu bajye bawunyuramo ari igikorwa remezo cya leta kandi abantu bagomba kuhabungabunga kugirango ngo barusheho gukomeza kuwukorera ibikorwa bitandukanye byatuma biteza imbere harimo nko kubahakorera ubumotari harimo kuhakorera ibindi bikorwa bitandukanye kandi binafasha abantu m'ubuhahirane ndetse no kuva mu rugo bajya ibindi bikorera mu muhanda batembera abantu baruhuka.

Umuhanda mwiza ubona ko ari umuhanda wa kaburimbo no kunyura imodoka nyinshi ubona ko ari umuhanda wifashishwa mu bikorwa bitandukanye harimo nk'ubuhahirane ndetse no gutwara abagenzi abantu biteza imbere kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira imuze, ni byiza ko tubungabunga ibikorwaremezo nk'ibi bya leta biba byarashyizeho kugira ngo bifashe abaturage kubungabunga ndetse no kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.